Ni umubuhinzi ukora ubuhinzi bw'inyanya mu murima uherereye mu gishanga, aho ahetse gicuba kirimo umuti atera ku nyanya ze kugira ngo azirinde kwangirika.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi wiganjemo abanyamuryango ba koperative, aho bakoraniyemo kugira ngo bite ku myaka yabo ihinzwe muri uyu murima, bazabashe kubona umusaruro bayifuzaho.

Ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo imiti itandukanye, yifashishwa mu gukingira uburwayi bukunda kwataka imyaka y'ibirayi, ibishyimbo, imboga ndetse n'iyindi. Ni byiza kwifashisha iyi miti, igihe ibihingwa byacu byarwaye.

Ni ubuhinzi bwa kijyambere, aho abahinzi basobanurirwa uko bagakwiye kwita ku myaka yabo, higanjemo imiti yifashishwa basuzuma imyaka indwara zitandukanye ndetse n'amafumbire mvaruganda akenwe ku bihingwa bimwe na bimwe.

Ni iduka rinini cyane riherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Ricururizwamo imiti itandukanye cyane cyane yifashishwa mu kuvura amatungo, aho bayifashisha bavura amatungo yarwaye.

Ibirayi byinshi byakusanyirijwe hamwe kugira ngo abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibirayi batoranyemo iby'imbuto nziza, kugira ngo bajye kubuhinga mu murima wabyo ari indobanure.

Umurima munini cyane uherereye ku musozi ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi, abahinzi b'iki cyayi barifashisha ibikoresho byabugenewe mu gutera umuti muri ibi bihingwa, kugira ngo babirinde uburwayi.

Ni depo ikorerwamo ubucuruzi bw'ibihingwa bitandukanye, aho higanjemo amapaki abitsemo ibigori by'imbuto ndetse n'utundi dufuka dutandukanye tubitswemo imbuto nyinshi zitubuye, zifashishwa mu buhinzi bwa kijyambere.

Ni ikimoteri kinini cyane giherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo, aho abaturage batuye muri aka gace bakusanyirizamo imyanda ibora ndetse n'itabora kugira ngo ye kugira ibikorwa byabo yangiza.

Ni inzu nini cyane yiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bworozi bw'amatungo, ndetse n'amacupa abitswemo imiti abaganga bamatungo bifashisha bavura amatungo y'arwaye.

Ni iduka rinini rikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo nk'intama, inka ndetse n'ihene, ni byiza kugenzura ko iyi miti iterwa amatungo yujuje ubuziranenge.

Ni umukozi uri mu murima uhinzwemo imbuto, uhetse igicuba cyifashishwa mu gutera umuti ku myaka kugira ngo bice udusimba tubyangiza ndetse bakingire n'uburwayi bushobora kuzifata.

Ni iduka rinini cyane rigizwe n'inyubako zitandukanye, zirimo izicururizwamo imiti ivura abantu ndetse n'izindi zicururizwamo iy'amatungo, hakaba na shop ya MTN.

Ni ikimoteri kinini cyane kiri hafi y'ingo z'abaturage cyagenwe na leta. Cyifashishwa mu kubikwamo imyanda ibora uruhande rumwe ndetse n'itabora kugira ngo ibikirwe hamwe, itangiza ibikorwa byabo.

Iduka rinini cyane riherereye hafi y'umuhanda rikorerwamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa iterwa mu bihingwa, nk'ibigori ndetse n'ibishyimbo kugira ngo bikingirwe ibyonnyi bibasha kubyangiza bitarera.

Umuhinzi ukora ubuhinzi bw'ibishyimbo bya kijyambere aho afite ibishyimbo by'umweru bigezweho cyane, byifashishwa mu nganda bikorwamo ibikoresho bitandukanye bivuye mu musaruro.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'ikawa. Ikawa ni igihingwa kizwi nk'igihingwa nzahurabukungu, ni byiza ko cyitabwaho ndetse kigaterwa n'umuti, kugira ngo hatagira ibyonnyi bikibuza kwera uko bikwiye.

Mu murima munini cyane, ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi kizwi ku gihingwa nzahurabukungu, aho cyitabwaho ndetse kikanasoromwa neza cyane, kugira ngo kibashe kugezwa ku ruganda gitunganywe.

Ni umurima munini cyane, ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye. Uyu murima uhinzwemo urusenda, aho ari igihingwa gikunzwe cyane ku ruhando mpuzamahanga ndetse kigakoreshwa no mu nganda.

Ni ubuhinzi bw'ibigori bya kijyambere, aho abaturage babihinga bakoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda, bikabasha gutanga umusaruro utubutse ku kigero gishimishije.

Ni umurima uherereye ahantu ho ku musozi uhinzwemo ibihingwa bitandukanye cyane cyane igihingwa cy'imyumbati. Iki gihingwa iyo kitaweho neza kitugeza ku bugari kandi bukunzwe n'abanyarwanda cyane.

Ni umubyeyi w'umugore wambaye ingofero n'umupira utukura, afite isuka ndetse n'imbuto yari yarinajije, ziganjemo voka n'imyembe, agiye kuzitera akoresheje ifumbire kugira ngo zizabashe kwera.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, imbuto nyinshi ziganje muri uyu murimo ni inyanya, aho rwiyemezamirimo ari kuzisasira ndetse akanasuzuma neza ko nta zangiritse zirimo.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, wiganjemo amateke, aho yitabwaho agashyirwaho ifumbire ndetse akanabagarirwa kugira ngo azabashe kwera uko bikwiriye.

Umurima munini uherereye hafi y'urugo, wiganjemo ibihingwa nk'imibyare, urundi ruhande ukaba urimo ibigori ndetse n'igiti cy'imyembe kigizwe n'imyembe yeze ndetse n'iteze.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi. Icyayi kizwi nk'igihingwa nzahurabukungu aho Abaturarwanda bagihinga ndetse kikabafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka yiganjemo ingano ndetse n'umuceri, iyi myaka iyo yitaweho neza, itanga umusaruro mwiza kandi ukwiriye.

Umurima munnini ukorerwamo ubuhinzi bw'ibishyimbo bigufiya, aho bihingwa mu buryo bwa kijyambere ku mirongo igororotse, ni byiza kwita ku myaka nk'iyi tuyitera umuti, tuyibagarira kugira ibashe kwera neza.

Ni abaturage bahuriye hafi y'umurima wabo, biganjemo abagabo ndetse n'abagore bafite ibiti by'avoka binajije, bari kwitegura kujya kubiga mu mirima yabo kugira ngo bazabashe kuzitaho uko bikwiye.

Ni umurima munini cyane, ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi, kizwi nk'aho ari igihingwa nzahuru bukungu, abahinzi b'iki cyayi bacyitaho cyane bagashyiraho ifumbire mvaruganda, ndetse mu kugisarura kikabaha umusaruro mwiza.

Ni inzu y'ubucuruzi iherereye hafi yo ku muhanda, ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye yifashishwa iterwa mu myaka, kugira ngo hicwe ibyonyi byataka imyaka bikayibuza kwera neza.

Inzu nziza cyane irimo ibikoresho byose bikenewe, ikorerwamo ubworozi bw'inkoko za kijyambere, aho hagaragaramo imishwi myinshi cyane yitabwaho ihabwa ibyo kurya n'ibyokunywa, kugira ngo ibashe gutanga umusaruro.

Ni iduka rinini ricururizwamo imiti itandukanye yifashishwa mu gukingira imyaka, higanjemo amacupa arimo umuti uzwi ku izina rya sinikombe, yifashishwa mu kwica udukoko twangiza imyaka.

Iduka rinini ricururizwamo imiti yo kuvura amatungo, yiganjemo amacupa manini cyane abitsemo imiti, ivura inka, intama, ihene, kugira ngo abashe gukira indwara igihe arwaye.

Iduka riherereye hafi y'umuhanda aho ryiganjemo amacupa atandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo, nk'inka, intama, ihene, ndetse no kuyakingira uburwayi butandukanye, kugira ngo butazayafata igihe kimwe.

Ni iduka rinini ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubika amata y'inka, ririmo ibicuba bibikwamo amata bikayabika neza kugira ngo adapfa cyangwa se akangirika.

Umubyeyi w'umugore urimo gusarura imiteja, akora ubuhinzi bw'ibishyimbo bitanga imiteja, ni byiza kwita ku bihingwa nk'ibi kuko biduha umusaruro mwiza cyane ndetse tugatera imbere.

Umurima munini cyane uteyemo ibishyimbo, aho ababyeyi barimo gushyiramo ibiti kugira ngo ibishyimbo nibikura bizafateho bibashe gutanga umusaruro ukwiye.

Umurima uherereye hafi y'urugo rw'umuturage ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye nk'amateke ndetse n'urutoki, ba nyiri uyu murima bari gutunganyiriza iyi myaka bayibagarira kugira ngo yere neza.

Ni umubyeyi w'umugore wambaye ijipo y'ubururu, ndetse n'agapira k'icyatsi, aho ari mu ntabire yahinze atera ibishyimbo, akoresheje ifumbire y'imborera. Ni byiza guhinga dukoresheje ifumbire yabugenewe, kugira ngo tweze neza.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto. Umukozi uri muri uyu murima arimo kubagarira ibihingwa bihinzwemo ndetse yongeraho n'ifumbire kugira ngo bibashe gukura neza.

Umurima munini cyane ugizwe n'ibihingwa bitandukanye, abahinzi babigize umwuga barimo kubagarira imyaka ihinzemo kugira ngo bayirinde kwangirika, izatange umusaruro ukenewe.

Ni umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, burimo abakozi biganjemo abagabo n'abagore, aho bakacura ndetse bakanabagara imyaka ihinze muri uyu murima, kugira ngo bazabone umusaruro.

Ni isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, byiganjemo ibitoki ndetse n'ibirayi, aho abaguzi baza kubihaha bakagura ku giciro gihendutse. Ni byiza ko twihangira imirimo nk'iyi kugirango tubashe kwiteza imbere, cyane ko ari imirimo ikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Abaturage biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, abagabo ndetse n'abagore bitabiriye umuganda rusange, aho bafata itaka bakarikoramo amatafari yifashishwa mu bwubatsi butandukanye.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi. Umuturage uhinga muri uyu murima ari guca imyobo yifashishwa bahinga ibishyimbo, bakoresheje ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda.

Ni ikigo cy'ishuri ryisumbuye giherereye hafi y'umuhanda, abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abahungu bari kumwe n'abarimu babo, aho bari gukorera amasuku ubusitani bw'iki kigo.

Ni ikibuga kinini cyane giteyemo ibyatsi bya pasiparumu, aho abanyeshuri biga hafi yaho bakoreramo siporo bakiniramo umukino w'amaguru kugira ngo babashe kugorora ingingo.

Mu buhunikiro bunini cyane, bwiganjemo imifuka myinshi ibitswemo umusaruro w'ibigori. Ni byiza ko ubuhunikiro bugomba kuba busukuye, ku buryo imyaka ibitswemo idashobora kwangirika.

Ni ubuhinzi bw'ingano aho abaturage bakusanyirije hamwe umusaruro wabo, bakawujyana ku buhunikiro kugira ngo ubashe kubikirwa hamwe ndetse urindwe icyabasha kuwangiza.

Ni inzu nini cyane y'ubucuruzi, icururizwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo umuceri n'akawunga ndetse n'ibindi, aho abarangura ibi biribwa baza kurangurira muri iri duka.

Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga, ryiganjemo intoryi, inyanya, karoti, imiteja, ibitunguru, pavuro ndetse n'izindi mbuto nk'imineke. Abaturage bagana iri soko, kugira ngo babashe guha imbuto zikenewe.

Ni ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere aho abaturage bahinga imigozi ikeraho ibijumba binini cyane aho byifashishwa mu nganda zitandukanye bikorwamo biswi ndetse n'ibindi bitandukanye, bigateza imbere ababihinga.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'ibirayi. Ni byiza guhinga dukoresheje amategeko n'amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo tubashe kugera ku musaruro twifuza.

Ni ubuhunikiro bubonekwamo imyaka itandukanye yiganjemo ibigori. Ni byiza ko ibigori nk'ibi igihe bisaruwe bibikwa ahantu hizewe kugira ngo bitazabasha kwangirika.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye. Higanjemo ibishyimbo bitewe ku murongo ndetse biriho ifumbire bikabagarirwa neza kugira ngo bizabashe gusarurwaho umusaruro uhagije.

Umuhinzi w'umubyeyi uri aho ahunikira imyaka ye yiganjemo ibigori, aho ari kubihungura ndetse akanabigosora kugira ngo abashe kugeza umusaruro we ku isoko.

Mu murima munini cyane uherereye ku musozi, uhinzwemo ibiti by'intusi bitandukanye byinshi, aho byifashishwa mu bintu bitandukanye nko kubazwamo imbaho, mu bwubatsi ndetse n'ibindi. Ni byiza kwita ku bihingwa nk'ibi bifite agaciro.

Ni ishyamba rihinzemo ibiti byintusi byinshi riherereye ku muhanda. Ni ibyiza kwita ku biti, igihe dutemye kimwe tugatera bibiri, kugira ngo turusheho kubungabunga imiterere y'ikirere cyacu.

Akarima k'igikoni gahinzweho imbuto n'imboga bitandukanye, byifashishwa mu gutegura amafunguro ndetse no mu gukora ibirungo bikenera mu mafunguro ya buri munsi, byiganjemo amashu, ibitunguru byombi ni iby'agaciro mu gutegura amafunguro.

Ishyamba rya kimeza ryiganjemo ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi byinshi bidaterwa. Ibyo byatsi bya kimeza bizwi mu muco wa Kinyarwanda aho bimwe muri byo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi butandukanye, bwiganjemo urutoki, ibiti by'imbuto bitandukanye by'avoka ndetse n'imyembe. Ni byiza kwita ku bihingwa byacu kugira ngo bitugeze ku musaruro.

Ni ishyamba rinini cyane riherereye ku musozi ryiganjemo ibiti bya kimeza ndetse habamo n'inyamaswa z'ishyamba ziganjemo intare, imbogo, inkende ndetse n'izindi.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza rihinzemo ibiti bitandukanye, ryiganjemo ibiti byinshi binini cyane bizwi ku izina ry'imisipure, byifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ndetse n'inzugi.

Umurima uherereye ahantu ho mu kibaya, uhinzemo ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibishyimbo ndetse n'imibyare, iruhande rwaho hateye ubwatsi bw'amatungo buzwi ku izina ry'urubingo, ni byiza kubungabunga ibihingwa byose kugira ngo rwiyemezamirimo abashe gutera imbere.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, ziganjemo amatunda, imboga ndetse n'ibipapayi. Izi mbuto ni nziza cyane kuko zifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye.

Ni umurima uherereye hafi yo ku musozi, wiganjemo ibyatsi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara, harimo nk'umuravumba ndetse n'iyindi miti izwi cyane mu kuvura indwara.

Mu murima uhinzemo urutoki. Higanjemo imibyare myinshi cyane ndetse ikorerwamo amasuku, igasasirwa, igashyirwaho ifumbire kugira ngo umusaruro wayo urusheho kuba mwiza.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza riherereye ahantu ku musozi, ribamo inyamaswa z'agasozi ziganjemo nk'intare, imbogo, inkende n'izindi. Ni byiza kubungabunga amashyamba nk'aya, azwi nk'aho ari imitungo kamere.

Ni umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'ibitoki ndetse iruhande rwawo hariho ubwatsi bwiza cyane buzwi ku izina ry'urubingo, bwifashishwa mu kugaburira amatungo yororwa ndetse agafasha kubona umusaruro utubutse w'amata.

Isoko rinini cyane riherereye hafi y'umuhanda ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye yiganjemo amaronji, amatunda, imyembe ndetse n'izindi mbuto zose zikenerwa ku isoko.

Umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'ubururu, aho ari mu murima we uhinzwemo imbuto zitandukanye, cyane cyane avoka, areba ko zakuze zigeze igihe cyo kuba zagemurwa.

Ni isoko ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye. Ryiganjemo imyembe, avoka, inyanya n'intory. Aho abaturage baza guhahiramo ibyo bakeneye kugira ngo barye indyo yuzuye.

Umurima munini cyane uherereye ahantu ho mu kibaya ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, uruhande rumwe ruhinzemo inzuzi zeraho ibihaza ndetse n'ikindi gice gihinzemo ibigori.

Umurima munini cyane uherereye mu gishanga, ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto, uhinzemo amatunda y'ibinyomoro, aho rwiyemezamirimo ari mu mitunda ye areba ko yeze ndetse akanareba ko nta byonyi byayagezemo.

Ni umurima munini cyane uherereye ahantu h'umusozi uhinzwemo icyayi. Icyayi ni kimwe mu bihingwa nzahurabukungu kizwi cyane cyane ku gutanga umusaruro ndetse no guteza imbere abagihinga.

Isoko rinini riherereye hafi y'umuhanda, ricururizwamo imbuto zitandukanye nk'amatunda, inanasi, ibihaza, ndetse n'ibindi bitandukanye, abaturage iyo barigannye babasha kubona imbuto bifuza.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye yiganjemo amashu, ibipapayi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye zihingwa zikifashishwa mu kuribwa ndetse rimwe na rimwe zikajyanwa no ku isoko.

Ni inzu nini cyane ishakakaje amabati atukura, iruhande rwaho hari ubusitani buteyemo umucaca ndetse n'ibiti bitandukanye byiganjemo iby'imbuto ziribwa nk'imyembe ndetse na voka.

Ni iduka rinini ricururizwamo imboga zitandukanye. Higanjemo karoti nziza cyane, imboga zizwi nka gapasu, pavuro, ibitunguru, imiteja ndetse n'ibindi. Ni byiza ko twakwifashisha ibi biribwa kugira ngo turinde ubuzima bwacu uburwayi.

Akarima k'igikoni gahinzweho imboga z'ubwoko butandukanye ziganjemo dodo ndetse n'ubutunguru. Ni byiza kugira akarima k'igikoni ndetse tukakabungabunga kugira ngo tubashe kubona imboga zihagije.

Ni umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto, bwiganjemo intoryi zisasiye kandi zitewe umuti kugira ngo hatagira ibyonnyi bibyangiza. Ni byiza kwita ku bihingwa nk'ibi kuko bigira umumaro cyane mu kurinda indwara ndetse no guteza imbere ababuhinga.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye by'umwihariko imbuto nk'avoka. Izi avoka ziri muri iri soko, ziragurwa n'abakiriya benshi, bigaragara ko ziryoshye.

Umurima uherereye mu gishanga aho winazwamo imbuto z'amatunda atandukanye, abagore ndetse n'abagabo barimo kubagarira ayo matunda kugira ngo ingemwe zayo zizabashe kugemurwa zitangage umusaruro uboneye.

Isoko rinini ricururizwamo imboga n'imbuto, aho ryiganjemo ibitunguru abakiriya baza kubigura kugira ngo babyifashishe mu gutegura amafunguro yabo ya buri munsi akenerwa ku meza.

Inyubako nini cyane iteye amarangi y'umweru ndetse n'inzugi z'umukara. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane buhinzemo pasiparume ndetse n'ibiti bizana umuyaga aho ngaho.

Umugore wambaye ingofero y'umutuku, ndetse n'umwana we, bari kwita ku murima wabo uhinzwemo ibishyimbo. Babibagarira, ndetse bakanateramo umuti wica ibikoko byangiza ibishyimbo.

Ni umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye yiganjemo urutoki. Abagore ndetse n'abagabo bateraniye muri uyu murima, aho bari kugenzura imyaka bayibagarira ndetse banareba ko nta byonnyi byaba byaratangiye kuyangiza.

Ni inyubako nini ikikijwe n'igipangu kiriho ubusitani bwiza cyane bwiganjemo ibiti birebire ndetse na pasiparume, iruhande rwaho hariho indabo zitandukanye zituma harushaho kuba heza ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa nka voka.

Ni umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, ariko cyane cyane higanjemo ubuhinzi bw'urusenda, aho rusasiwe neza cyane ndetse imbuto zimwe z'uru rusenda zitangiye guhisha, zegereje igihe cyo gusarurwa. Ni byiza gukorera neza imbuto nk'izi kugira ngo zitange umusaruro uboneye.

Isoko rinini cyane rikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto ndetse n'imboga, ryiganjemo imbuto zitandukanye nk'amatunda, ibinyomoro, amaronji, ndetse n'izindi mbuto zikunda kuboneka ku masoko.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto ziganjemo karoti, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, abaguzi baje muri iri soko bashishikariye kugura karoti kuko zisa neza, kandi zikaba zigura ku giciro cyiza.

Umugore wambaye agapira k'umukara ndetse n'igitenge cy'ubururu, uri mu murima we akoreramo ubuhinzi bw'imbuto, biganjemo intoryi nziza cyane, aho ari kuzisarurira mu ibase kugira ngo atware umusaruro wazo ku isoko.

Ni umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, biganjemo ubuhinzi bw'amatunda y'ibinyomoro, ndetse yitabwaho agashyirwaho ifumbire ihagije, kuko ku isoko akunzwe cyane ndetse akaba arinda n'indwara.

Mu murima ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye nk'amatunda y'ibinyomoro. Aya matunda arakunzwe cyane ku isoko ndetse azwiho cyane ku kurinda indwara zitandukanye.

Ni ikigo cy'ishuri ryigishirizwaho abana biga mu mashuri abanza, iruhande rwacyo hari indabo nziza cyane zikikije ubusitani ndetse n'ikibuga gikinirwamo imipira y'intoki igihe abanyeshuri bari mu gihe cyo kuruhuka.

Ni akarima k'igikoni gaherereye uruhande rw'urugo rw'umuturage, gahinzwemo imboga zitandukanye, dodo, inyabutongo, ibitunguru ndetse n'amashu. Ni byiza kubungabunga uturima tw'igikoni kuko ari ingenzi cyane.

Mu isoko rinini cyane rikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto ziribwa zitandukanye, harimo akabati kiganjemo imbuto nk'amaronji, amatunda, amapera ndetse n'izindi, ni byiza gukoresha imbuto nk'izi kuko zirinda indwara.

Ni umurima uherereye mu gishanga hakorerwamo ubuhinzi bw'ibigori. Iruhande rwawo hari umugezi ukoreshwa nk'ivomo rusange. Aho ababyeyi ndetse n'abana bawifashisha bavoma amazi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye umupira w’umuhondo, ipantaro y’umukara, arimo atembera mu buhinzi bwe bw’ibigori, kugira ngo arebe ko hari ibyangiritsemo, ndetse niba bikeneye umuti kugira abikingire indwara zashobora kubyara.

Umurima munini cyane uherereye ahantu ho ku musozi, ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, harimo impombo zifashishwa mu kuhira imyaka iyo igihe cy'impeshyi cyageze kugira itagerageza kuma.

Ni umuhinzi uri mu murima we, aho afite igicuba yifashisha mu kuhira imyaka ye ayitera imiti, kugira ngo itabasha konwa n'ibyonnyi bituma itera.

Ni umurima munini cyane, ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi, umugore ndetse n'umugabo bahinze muri uyu murima, bafite igicuba bifashisha mu kuhira iyi myaka yabo mu gihe cy'impeshyi kugira ngo ituma.

Umurima uherereye ku musozi ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi, abagabo babiri barimo kuhira iyi myaka bifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo iyi myaka ye kwicwa n'izuba.

Ni umurima munini cyane uherereye mu gishanga, ukorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, hinazwamo imbuto z'imyaka itandukanye nk'amatunda, amashu kugira ngo zizagemurwe zijyanwe guhingwa ahandi.

Ni umurima munini cyane uciyemo amaterasi y'indinganire, uhingwamo imyaka itandukanye ndetse n'ibiti bivanngwa n'imyaka ifite akamaro ko kurinda isuri cyane cyane ku mirima iherereye ku musozi.

Ni umurima munini cyane uherereye ku musozi uciyemo amaterasi n'indinganire, aho ukorerwamo ubuhinzi butandukanye ndetse n'ibiti birwanya isuri kugira ngo itabasha gutwara imyaka ihinze kuri uwo musozi.

Umurima munini cyane uherereye ku musozi, ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi ndetse abahinzi b'iki cyayi bacyitaho cyane bongeramo ifumbire kandi bagakoresha ifumbire yabugenewe.

Umusozi ukorerwaho imirimo y'ubuhinzi. Haciyemo amaterasi n'indinganire ndetse harimo n'utuyira tuzamuka tuva muri iyo mirima. Ni byiza guca amaterasi y'indinganire igihe duhinga kugira ngo isuri itazatwara imyaka yacu.

Ni umurima munini cyane, uherereye mu kibaya, iruhande rwabo hari ishyamba ririmo ibiti by'intusi, iki gishanga gikorerwamo ubuhinzi bw'ibigori, aho hitabwaho hakoreshwa ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda.

Ni isambu nini cyane irimo ubwatsi butoshye, ikorerwamo imirimo itandukanye. Haragiwemo amahene meza cyane, aho arisha ubu bwatsi ndetse bikayafasha gukura neza no kororoka.

Ni ihene y'umukara n'umweru iri mu murima, aho iziritswe mu kinani kugira ngo ibashe gutora ubwatsi, ni byizayiza kwita ku matungo igihe cyose kugira ngo hatagira ibiyangiza.

Ni ifamu nini cyane yifashishwa n'aborozi batuye muri aka gace, bororeramo inka zabo ndetse bakazitaho cyane kugira ngo zibashe kwitabwaho uko bikwiye zitange umusaruro ukenewe.

Ubworozi bwa kijyambere, aho inka zororerwa mu kiraro zikitabwaho zihabwa ubwatsi bwujuje ubuziranenge, ndetse zigahabwa n'amazi. Ibi bifasha aborozi kubona umusaruro utubutse.

Ikiraro kinini cyane cyubakishije ibiti, ndetse n'imbaho. Inka yororerwamo y'umukara n'umweru, yitaweho neza, aho igaburirwa ubwatsi ndetse igahabwa n'amazi, kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza.

Ikiraro cyororerwamo itungo rizwi nk'ingurube, aho ryitabwaho rigahererwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kugira ngo ribashe gukura neza, rizatange umusaruro ukenewe n'umworo...

Ikiraro kinini cyubatse ku buryo bugezweho, cyorererwamo ingurube, aho hagaragaramo ingurube yibarutse utwana twinshi iri kutwonsa kugira ngo tubashe gukura neza.

Ni ikiraro kinini cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho kirimo inka nziza cyane zororerwamo zigahererwamo ubwatsi ndetse n'amazi yo kunywa kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza.

Ni ifamu nini cyane, ikorerwamo ubworozi bw'intama z'inzungu, ziganjemo iz'amapfizi ndetse n'amashashi. Ni byizayiza kwita ku bworozi nk'ubu kugira ngo tubashe kubona umusaruro dukwiye kubona kandi utubutse.

Isoko rinini cyane rikorerwamo ubucuruzi bw'amatungo magufi, ryiganjemo abagabo ndetse n'abagore aho baje kugurisha amatungo yabo azwi ku izina ry'inkwavu, aho baje gushakamo amafaranga yo gukemuza ibibazo bafite bitandukanye.

Ni inka y'umukara n'umweru, iherereye mu kiraro ariko kigaragara ko kirimo ijagi, si byiza ko inka ziba ahantu hatarimo isaso ihagije, kuko bishobora kuzitera uburwayi.

Ni ikiraro kinini gikorerwamo ubworozi bw'ingurube; ni ingurube yabyaye utwana twinshi, aho bayitaho kugira ibashe kutwonsa neza dukure mu gihe gikwiriye.

Ni inka yororerwa mu kiraro cyubatse neza, aho yitabwamo iri muri icyo kiraro, igahabwa ubwatsi ndetse n'amazi yo kunywa. Ni byiza kubungabunga inka igihe tuzororera mu kiraro, kugira ngo na zo zibashe gukura neza.

Umuhanda munini w'igitaka uri kugerwamo n'abagabo ndetse n'abagore, aho bagiye mu isoko rigurishirizwamo amatungo magufi. Bafite ihene ndetse n'intama bagiye kugurisha kugira ngo babashe kwikemurira ibibazo.

Ni inzu nini cyane ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, aho higanjemo imishwi ikiri mitoya ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'uyu rwiyemezamirimo, agaburira izi nkoko, kugira ngo zizabashe gukura neza.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere z'isake ndetse n'inkokokazi zizwi ku izina rya Saso, aho zitabwaho mu kibuti zororerwamo, zigaburirwa ibyo kurya byujuje ubuziranenge kugira ngo zitange umusaruro w'amagi uhagije ndetse n'inyama.

Umurima munini cyane udakunze guhingwamo imyaka, uragiwemo ihene. Aho umwana uragiye ihene ayitayeho cyane, areba ko itona imyaka iri hafi y'uwo murima.

Ababyeyi biganjemo abagore n'abagabo, bari gutera inka bayinjiza mu kiraro kuko yavuyemo. Si byiza ko twororera amatungo mu biraro bitujuje ubuziranenge, kuko ashoboye kuvamo akagira ibyo yangiza.

Inka nini cyane y'umukara n'umweru, iziritse mu murima ndetse irimo gutora ubwatsi, ni byiza ko twita ku nka zacu tukazigaburira bihagije kugira ngo zibashe kuduha umusaruro mwiza twifuza.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we mu murima munini cyane, barimo baragira itungo ryabo rigufi rizwi ku izina ry'ihene. Iri tungo iyo ryitaweho neza ritanga umusaruro utubutse ndetse rikura vuba ku buryo nyiraryo rimukiza.

Inka nini cyane iri mu kiraro gifite isuku, aho ihererwamo ubwatsi ndetse igabwa n'amazi yo kunywa, ni byiza kwita ku matungo kugira ngo abashe kororwa neza atanga umusaruro ukwiye.

Ikiraro kinini cyane gikorerwamo ubworozi bw'inka. Inka y'umukara ndetse n'inyana yayo, zitaweho cyane aho zigaburirirwamo ibyo kurya ndetse zigahabwa n'amazi meza kugira ngo zibashe gutanga umusaruro uboneye.

Ikiraro kinini cyane cyubatse ndetse gikozwemo amasuka ahagije, cyororerwamo ingurube, aho ingurube iri kumwe n'ibyana byayo byitabwaho kugira ngo bibashe gukura neza uko bikwiye.

Isoko rinini cyane ryegereye umuhanda w'igitaka rikorerwamo ubucuruzi bw'amatungo magufiya, ndetse n'ibindi bicuruzwa byiganjemo ibiribwa. Ni isoko ryegerejwe abaturage kugirango ribafashe.

Ibiraro binini cyane bikorerwamo ubworozi bw'inka bwa kijyambere, aho zitabwaho ziri mu biraro zigahabwa ubwatsi ndetse n'amazi yo kunywa, bizifasha gutanga umukamo utubutse ndetse bigateza imbere aborozi bazo.

Ni umurima uherereye mu gishanga, ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye cyane cyane amatunda y'ibinyomoro, umuhinzi w'aya matunda arimo gusuzuma neza niba izi mbuto nta byonnyi byagezemo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo, aho abaturage basaruye ibishyimbo byabo ndetse bakabigosora neza kugira ngo bibashe kubikwa bitarimo imyanda kuko iyo bibikanwe imyanda bishobora kwangirika.

Ni umurima munini ukorerwamo ubuhinzi bw'ibishyimbo, ibishyimbo bizwi ku izina rya kigondo, bihingwa iyo ubyitayeho neza bigatanga umusaruro utubutse, kuri ba rwiyemezamirimo babihinga. Ni byiza kubyitaho uko bikwiye, kugira ngo byere neza.

Ni umurima munini cyane, ukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto n'imboga zitandukanye. Wiganjemo ubuhinzi bw'amashu, aho zitabwaho ndetse zigaterwa umuti kugira ngo hatagira ibyonnyi bizonona ntizitange umusaruro ukwiye.

Abahinzi babiri basuye umurima wabo, uhingwamo imboga n'imbuto, baritegereza cyane amashu, ndetse n'izindi mboga bihinze ku karima k'igikoni, bareba ko nta byonnyi byagezemo byashobora kuzangiza.

Ni ahakorerwa ubuhinzi bw'ibigori bya kijyambere, aho ba rwiyemezamirimo babisaruye bakabihanika aho babisarurira kugira ngo babirunde ibyonnyi BIbyangiza nk'impungu ndetse bazabashe kubihungura bimeze neza.

Ni ubuhunikiro bunini cyane bwubatse neza kandi busakaye buhunikwamo igihingwa cy'ibigori. Ni byiza guhunika ibigori neza kandi ahantu habugenewe kugira ngo bitabasha kwangizwa n'imungu.

Ni ikiraro cyubatse neza cyane kirimo inka za kijyambere. Aho uyu mworozi yatumiye abavuzi b'amatungo kugira ngo bamusuzumire inka barebe ko nta burwayi zifite. Ni byiza kwita ku matungo yacu igihe cyose.

Ni aborozi babiri aho bateraniye hamwe basuzuma ikibazo inka yabo ifite ndetse bakayigaburira ubwatsi bwujuje intungamubiri kugira ngo barebe ko yakongera umukamo, ni byiza kwita ku matungo yacu kugira ngo abashe kudukemurira ibibazo.

Ni umworozi ukora ubworozi bw'inka, aho ari kwita ku nka ye ayigaburira neza ndetse iyi nka yororerwa mu kiraro. Ni byiza kwita ku matungo nk'aya kugira ngo azabashe gutanga umusaruro twifuza.

Abavuzi b'amatungo babiri bazwi ku izina rya veterineri, bari mu kiraro gikorerwamo ubworozi bw'intama. Bazikingira, bazitera imiti izirwaye, ndetse bagasuzuma n'izindi ko zifite ubuzima bwiza.

Ikiraro kinini cyane gikorerwamo ubworozi bw'inka, aho umuganga w'amatungo uzwi ku izina rya viterineri yaje kwita ku nka ayiha umuti kugira ngo ayikingire indwara zishobora kuyataka.

Ni abaganga bavura amatungo bari mu ifamu, aho bari kwita ku matungo bayasuzuma kugirango aterwe umuti uvura uburwayi arwaye. Ni ibyiza kwita ku matungo yacu igihe cyose.

Ni inka zororerwa mu kiraro zikitabwaho igihe cyose, umuganga w'amatungo ari kuzitaho azitera inshinge zirimo imiti izivura ndetse ikanazikingira uburwayi butandukanye.

Ni igiti kinini cyane giheherereye iruhande rw'urugo, hariho inyamaswa izwi ku izina ry'ipusi, irimo kurira iki giti kugira ngo ibashe kugera hejuru mu bushorishori bwacyo.

Ishyamba rya kimeza ryiganjemo ibiti bitandukanye by'amoko menshi, habamo inyamaswa z'agasozi aho higanjemo inkende ziba zitembera muri ibi biti byakuze cyane zishakamo ibyo kurya.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza ribamo inyamaswa z'agasozi, hagaragaramo inyamaswa zizwi ku izina nk'isha ndetse n'izindi z'amoko atandukanye ziba muri iri shyamba, rigomba kubungabungwa kugira ngo ubuzima bw'izi nyamaswa zibamo bwitabweho.

Ni ishyamba rinini cyane, ririmo ibiti by'amoko atandukanye ndetse ryiberamo inyamaswa z'agasozi, zikurura bamukerarugendo nk'inyoni zizwi nk'ibishwi. Izi nyoni, ni byiza ko zibungwabungwa kuko zikundwa na bamukerarugendo.

Ishyamba rya kimeza ryiganjemo ibiti by'inganzamarumbo, aho inyamaswa z'agasozi ziberamo ndetse zikabonamo n'ibyo kurya, cyane cyane inkende zikunda kurira ibyo biti zishakamo imbuto.

Inyamaswa z'agasozi ziganjemo imbogo, inzovu, inkende ndetse n'imbwa, ziri mu ishyamba rya kimeza zirisha ibyatsi ndetse n'izindi zishakamo izindi nyamaswa zihiga. Ni byiza kubungabunga aya mashyamba kugira ngo izi nyamaswa zibone aho ziba.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza riherereye ku musozi, ribamo inyamaswa z'agasozi, cyane cyane inyoni ndetse n'imbogo, aho zibamo zigafatamo ibyo kurya bizitunga mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Ishyamba rinini cyane rya kimeza ryiganjemo ibiti by'amoko atandukanye, harimo iby'inturusi ndetse n'iby'imbuto, inyamaswa ziberamo cyane cyane inkende zigatungwa n'imbuto zera kuri ibyo biti.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza, ryiganjemo ibiti ndetse n'inyamaswa nyinshi z'agasozi. Ni byiza ko aya mashyamba ya kimeza abungwabungwa kugira ngo inyamaswa zibamo, zibashe kubaho neza.

Ni umurima w'ikinani ugaragara nk'aho udaheruka guhingwa. Iyi nyamaswa izwi nk'urukwavu ariko rwabaye urunyakinani. Ni byiza kwita ku matungo yacu kugira ngo atazaducika.

Ni ishyamba rinini cyane ryiganjemo ibiti bya kimeza, aho ryiberamo inyamaswa z'agasozi. Ryiganjemo imbwa z'agasozi, impyisi, inkende ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye zikunda kuba mu ishyamba.

Ni ishyamba rinini rya kimeza ryiganjemo ibiti byakuze cyane ndetse n'inyamaswa z'agasozi zitandukanye, izi nyoni zikunze kuba muri iri shyamba zizwi ku izina ry'ibishwi zikurura ba mukerarugendo.

Inyubako ndende cyane yubakishije amatafari ahiye, hejuru hariho inyamaswa izwi ku izina ry'inkende ndetse iruhande rw'inyubako hari ubusitani bwiza cyane buriho indabo ndetse n'ibiti bituma harushaho kugaragara neza cyane.

Ni ishyamba ryiganjemo ibiti by'imbuto ndetse n'ibindi byatsi bya kimeza, habamo inyamaswa z'agasozi cyane cyane inkende n'ibitera, aho zibera muri ibi biti zibonamo ibyo kurya.

Mu ishyamba rya kimeza ryiganjemo ibiti bitandukanye bya kinyarwanda bizwi nk'imiko, ndetse n'imivumu, harimo inyoni nziza cyane ziganjemo amabara y'umweru n'umukara ku buryo zibasha gukurura ba mukerarugendo.

Ni ishyamba rinini cyane rya cyimeza, cyane ko amashyamba azwi nk'imitungo kamere, yifashishwa mu kubungabunga imihindagurikire y'ikirere. Habamo inyamaswa z'agasozi ndetse n'ibiti byinshi bikurura imvura ndetse n'umuyaga mwiza.

Ishyamba rinini cyane ryiganjemo ibiti by'inganzamarumbu byiberamo inyamaswa z'agasozi, zishakamo ibyo kurya bitandukanye zikenera igihe byose, ni byiza kutangiza iri shyamba.

Inyoni nziza cyane z'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, zibera mu ishyamba rya kimeza. Izi nyoni ni nziza cyane ndetse zikurura bamukerarugendo, bakatuzanira amafaranga adufasha kwiteza imbere.